Inzu y'ubucuruzi irimo amayoga menshi, atandukanye izo nzoga ziri muri etageri.

Abantu benshi bicaye abandi bahagaze, bari mu nzu nziza iri kwakamo amatara.

Abagabo babiri bari kunywa fanta, bari kuyinywesha umuseke, hirya hariho abantu benshi, bamwe bahagaze, ab'imbere baricaye.

Inzu nziza ya etaje iboneye. Izitijwe senyenge, bateye n'indabyo iruhande rw'izo senyenge n'ibiti by'imitako hagati mu gipangu.

Ibitoki bitetse maganda. Kimwe cyashiriyeho, ibindi byagiye biririyatura. Birambitse ku iparato.

Ifi itetse neza n'ibyo bayitekanye na byo biri ku isiniya, babirambitse ku meza.

Inzu ya etaje igeretse hejuru, hariho inzu imwe, hasi nzu y'ubucuruzi, hariho na amaneke bambitse imyenda, n'umugabo imbere ya maneke imwe.

Inzu nziza ya etaje, iruhande hariho inzu yubakishije amakaro. Hejuru ku rubaraza hari insinga z'umuriro zinyuze imbere y'iyo nzu.

Inzu z'ubucuruzi imbere hariho abantu benshi, inzu zubatse neza n'amakaro indi hirya isize amarangi.

Inzu nziza yubatse ahantu heza, imbere hariho indabo, bateye inkingi ziringaniye.

Inzu bacururizaho, bacururizamo ibyo kurya n'ibyo kunywa, hariho ibirango byerekana ibyo barya, ibyo banywa, mbese birimo ibyo bacuruza byose.

Udukapu twinshi tumanitse kumigozi, hariho umugabo kuruhande wambaye ishati itukura, n'ikoboyi, n'inkweto z'umukara.

Inzu z'ubucuruzi zifunguye imiryango ebyiri ebyiri. Hejuru ziriho ama karo, hariho n'icyapa kiranga ibyo bacuruza.

Inzu nziza y'amangazini isize amarangi, n'inkingi ziriho imitako, haparitseho na moto, n'abantu ku rukuta harimo n'uwitwikiriye umutaka.

Inzu y'ubucuruzi ifite n'umuryango ugiye mu gikari. Kuri iyo nzu hafunguye imiryango ibiri.

Imbabura nshya watekaho, ziteretse ku kintu hejuru ziri mu gikoni.

Umuntu utereye tibe ku rutugu ni umunyegari, umunyonzi uririho, n'amazu na rifani biri imbere y'ayo mazu ageretse.

Inzu nziza aho bacururiza amafi, nibindi bintu byo kurya, babicururiza muzu, n'imodoka iri imbere y'iyo nzu.

Ahantu hasashe amakaro, hubatse amakaro, hari imisego na matora, n'amashuka yo kwiyorosa.

Imbuga y'amapave, n'itebe nziza, n'inzu nziza iteye amarangi, irangi ry'umweru, imbere ku rubaraza bahashyize indabo.

Abagore bari gucuruza barikuganira umwe aricaye, undi arunamye ari gufungura umufuka ngo yerekane ibyari gucuruza igisheke cyegetse igitoki ,inyanya n'ibitunguru.

Inzu nziza iriho amakaro ifunguye, mu muryango hateretse hari ameza arambitseho ibintu, n'igare ryegetse kuri iyo nzu n'amakara.

Inzu nziza y'ubucuruzi igeretse rimwe, imbere hariho umunyegari wicaye ku igare mu muhanda. n'umugenzi uri kugenda.

Umudamu witwikiye umutaka, washashe ihema hasi arambikaho inkweto za bodaboda, n'undi ku ruhande rwe, n'abandi baremye isoko benshi, n'abandi bitwikiye imitaka, hirya hariho inzu z'ubucuruzi.

Inzu yegetseho amagare n'abagore babiri bari mu muryango umwe ari konsa umwana.

Inzu z'ubucuruzi zubatse neza n'amakaro hejuru, zubatse iruhande rw'umuhanda, zirafunguye.

Abantu bari imbere y'inzu z'ubucuruzi. Imiryango ibiri ifunguye, hariho na moto ebyiri zije gutwara abagenzi.

Inzu bari kugaragaza urubaraza, icyo hejuru y' urubaraza amabati bikoze neza.

Inzu nziza y'ubucuruzi ifunguye mu muryango harimo intebe, hamanitseho n'udufuka ku muryango ufite inzugi ebyiri zifunguye.

Amazu y'ubucuruzi, inzu imwe iriho amakaro hejuru, hariho n'abantu mu muryango imbere ku ibaraza, n'abana bavuye ku ishuri bambaye iniforume ari babiri.

Umuntu wicaye ku itabureti, iruhande rw'umuhanda, iruhande rwe hariho itabureti itariho umuntu, imbere hariho ipoto y'icyuma, inyuma ye hakurya y'umuhanda hariho amazu y'ubucuruzi, hariho n'umutaka wa emutiyeni.

Inzu nziza y'amabati atukura zisize irangi ry'umweru, imbere hariho amabuye n'akayira kinjiramo imbere y'iyo nzu.

Akayira k'agahanda kagiye mu mazu ari mu gipangu yubatse neza, kandi yubatse kimwe, n'igiti n'ipoto y'umuriro w'amashanyarazi hanze y'igipangu.

Inzu nziza iteye amarangi n'amakaro hejuru, inzugi nini ziteye amarangi, imbere hari agaferege, umuferege w'amazi.

Inzu nziza y'amacumbi ni aho banyweraho, banyweramo, iruhande hari bateyeho indabo.

Inzu z'ubucuruzi nziza. Imbere hari umugore ufashe igare, umugabo inyuma ari gupakira, ari gushyira ikesi ku igare.

Inzu y'ubucuruzi hariho imyenda, imipira yo gukina y'abana, ingufuri, ingofero, n'umwana uri hasi usutamye.

Ahantu heza hateretse ibihaza barya, ni byiza cyane biri n'ahantu heza.

Abantu bahagaze imbere y'inzu iteye amarangi, hari umugore wicaye hasi n'igare rihagaze imbere y'uwo mugore, rizirikiyeho akadobo.

Inzu nziza iri kugaragara igice cyo hejuru mu isakaro, hariho n'icyapa cyerekana ibihakorerwa muri iyo nzu.

Inzu yubatswe, imbere amakaro, inzugi zirakinze, hejuru bashyizeho icyapa ngo:"Twambika abageni."

Abanyamagare benshi, umumotari uhetse umuntu, n'inzu z'ubucuruzi, n'ibiti bitatu byegeranye, n'insinga z'umuriro,..

Abantu benshi bambaye udupfukamunwa, hari n'abatatwambaye bafite ibitabo mu ntoki, bari gutanga amabwiriza, bari kureba utuntu turarambitse ku meza, imbere yabo.

Abantu benshi cyane bicaye muri sitade, n'abandi bafashe ibitambaro byanditseho amagambo agaragaza icyo bari gufana.

Inzu z'ubucuruzi nziza ziteye irangi zizitiye neza hariho n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umuntu utereye itibe ku rutugu, ahuye n'umuntu uri kujya ku mazu ageretse, hasi hariho inzu, z'ubucuruzi, umunyegari ari gusunika imizigo.

Umusore uhagaze ahantu hari amapave, akoze akoze mu mifuka n'inzu isakaye nk'igihangari. Umusore wambaye ipantaro yumukara.

Umugabo wambaye neza uri imbere yinzu nziza, uhagaze imbere kumadirishya, hasi hariho amakarao.

Isoko bari gucururizamo amagi, hari n'imiteja, n'abandi bantu hirya bari guhaha.

Inzu nziza ziri ku muhanda, zigeretse za etaje, abantu benshi bari kugenda, n'imodoka nziza iri mu muhanda wa kaburimbo, n'insinga zijanye umuriro kuri ayo mazu.

Isoko riri ku muhanda, harimo abadamu bari gucuruza ibitunguru barya, hari n'abantu benshi bari kubicuruza ni isoko rinini.

Agasoko bari gucururizamo imbuto barya, ibitunguru, bafite n'umuzani. Harimo n'abagore bafite imifuka baje guhaha.

Isoko ry'imbuto, imyembe n'izindi mbuto ziteretse mu mabase no mu bikarito.

Inzu y'ubucuruzi ifunguye imiryango ibiri, ibicuruzwa birimo biragaragara bigeze mu muryango, aho bacururiza ni heza cyane.

Umuntu wambaye ingofero ari kumva telefone ari gucuranga, ari mu ibaraza ry'inzu y'ubucuruzi, hafi aho hariho n'imashini.

Isoko ry'imbuto hari umugore wicaye, n'undi inyuma ye. imbuto harimo: imineke, inyanya, amashu,..

Ahantu h'ubucuruzi, bacururiza inkweto, imyenda harimo umugenzi uri kugenda w'umudamu.

Indobo nini z'umweru zifite ni imifuniko, ni ibicuruzwa biri mu mangazine bipfunyitse n'amavuta yo kwisiga.

Imbuto, ziri mu dupaniye, barya. Harimo abaguzi, bari kurebamo izo bashaka. Hariho n’umugore, wunamye, yicaye ku itabureti.

Ahantu bacururiza bari gucuruza inkangara, hari umugore uhagaze n'abandi bagabo bahagaze. Umwe yifashe mu mugongo undi ari kuvugana n'umudamu.

Ahantu bacururiza hari ameza barambitseho imyenda bari gucuruza, iyindi iramanitse. Hirya hariho abantu bari kuganira babiri bicaye, undi mudamu uhagaze.

Imyenda myinshi, iruze hasi kumave, ikirundo ntabwo isandaguje , harimo amabara yose :umweru, umukara umutuku ,umuhondo, icyatsi ni cyo kitarimo.

Abantu bari mu isoko ry'ibiribwa, harimo umugore uri guterura igitoki n'undi wikoreye ibase n'abandi barangajwe n'ibyo bakeneye.